Udutanda two kwa muganga aho bicaza abantu bagiye gukorera isuzuma ry'amenyo ngo barebe nimba nta kibazo bafite cy'amenyo ndetse niba ari n'abakurwa babakure.

Umwana uri koga mu maso amazi, amazi ni amazi meza, aya mazi afite isuku, amazi ni meza ku baturage, amazi Leta y'u Rwanda yarayaduhaye buri wese aho amwege...

Ikigo gifite intumbero yo kwita ku burere bwiza bw'abana, yunisefu, cyagejejeho amazi ku baturage bagiye batandukanye bari mu ntara zose mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika.

Umubyeyi uri kuvomera abana ku migano isaba yuko umuntu akoresha imbaraga, aba bana nta mbaraga bafite zo kuba babasha kwikururira ayo mazi, abanyuzeho rero arabafasha kugira ngo batahe kare...

Ikirango kigaragaza ikigo gishinzwe ubuzima ku isi hose, iki kigo kikaba gifatikanya n'ibihugu bitandukanye, mu kurengera ubuzima bw'abaturage ku isi hose.

Abana babiri, bari kumwe n'umubyeyi wabo, bakaba bagiye kuvoma amazi, leta y'u Rwanda yegereje umuturage aho yaba ari hose amazi, amazi ni ingenzi, amazi turayatekesha, turayoga, turayanywa.

Umunyeshuri wagiye kuvoma amazi, amaze kuzuza amazi, inyota iramwishe ni mu gihe cy'izuba, atega ibiganza aranywa, amazi yegerejwe abaturage mu midugudu ndetse n'aho batuye.

Aha ni ahari kubera gukingira kw'abana, hari umudamu w'umuforomo uri gutera agashinge umwana, ari kumukingira indwara y'imbasa ikunda kwibasira abana.

Minisitiri w'Ubuzima Sabe Nsazimana ari kwakira umuyobozi ushinzwe ubuzima, uvuye ku rwego rw'isi bakaba bari kwiga ukuntu barandura icyorezo cya Murburg.

Abana bo mu kigo cy'amashuri cya gatudura bari bari kuvoma amazi umushinga washyizweho na minisiteri y'ubuzima kohereza abana amazi ku mashuri kugira ngo batanywa amazi adafite isuku.

Abayobozi b'ikigo Caritas gishingiye ku muryango wa kiriziya, bari bagiye gufasha abana bo muri pirimeri, babaha iniforume barangije bafata ifoto y'urwibutso barataha.

Abaforomo bo ku bitaro bya Mayange, aho bari bari kwakira umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima ku isi Tedros yari yabasuye, baramwishimiye bari kuririmba banamubyinira.

Abana bane b'abakobwa ndetse n'abahungu babiri, bari kuvoma amazi ku kigega kirimo amazi asukuwe, kegerejwe abaturage kuri gahunda ya minisiteri y'ubuzima, rero amazi ni igenzi.

Abari babiri bari mu myaka cumi n'ibiri na cumi n'itatu, babatumye kuzana amazi batwaye indobo bari kuvoma bajyanye amazi mu rugo, amazi yegerejwe abaturage mu midugudu batuyemo, ntibikiri ngombwa kuvoma ku byuzi cyangwa se ku biyaga.

Habereye inama ihuje abantu batandukanye, harimo abapolisi ndetse n'abayobozi basanzwe. Ni byiza kwitabira inama zibera mu midugudu, kugira ngo umenye amakuru y'ibigezweho mu gihugu ndetse n'aho utuye.

Umujyanama w'ubuzima wo mu mudugudu wa Tumba, ari kuganiriza umudamu ukuntu akwiye guhereza umwana we indyo yuzuye kugira ngo amurinde kujyi igwingira ku myaka yiwe itanu.

Umwana wambaye iniforume ufite amazi mu ntoki, aya mazi akaba ari amazi meza, arikwigisha yuko ugomba kunywa amazi meza udakwiye kunywa amazi y'ibishanga atera indwara.

Amagaze yo kwa muganga, ayangaya umuntu bakaba bayamuhereza mu gihe nta mwuka afite, cyangwa se ariku atabasha guhumeka ari muri koma, amwongerera umwuka.

Ifoto igaragaza umwana ari gukingirwa akaba afashwe na muganga, umumama we aramufashe ngo amuhumurize atagira ubwoba. Ni byiza gukingiza umwana kugira ngo atazahura n'indwara.

Umudamu w'umuzungu ukenyeye igitambaro mu mutwe, uri gupima abakecuru umuvuduko, bakaba bari hanze. Umuvuduko ni byiza kuwupimisha, umenye nimba nta kibazo cy'umutima waba ufite.

Abadamu babiri bari kwakira agafuka k'imiceri, batanze muri guma mu rugo kugira ngo abantu baticwa n'inzara mu gihe batari gukora. Ni byiza kwita ku baturage mu gihe leta ibifitiye ubushobozi.

Abaforomo ndetse n'ababyaza bari mu nama bambaye iniforume yabo, bakaba bari no kwandika ibyo bari kwigishwa. Ni byiza gukurikira ubukangurambaga leta itanga kugira ngo ukomeze ukore umwuga neza.

Umuhanzi uzwi cyane mu ndirimbo zo kuramya Imana, uzwi ku izina rya Israel Mbonye, yagiye gufasha abana bo mu Karere ka Huye aha ngaha yari yagiye mu bitaro, bari kureba nimba abana bafite indyo yuzuye.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi umuntu utaywa amazi ahura n'indwara zitandukanye harimo izo mu nda, izo mu mutwe n'izindi zitandukanye. Amazi turayatekesha turayoga ndetse n'ibindi.

Abari bamanitse amaboko bari kubyina, bishimiye ikiganiro bari gususurutsa ababaganirije. Ni byiza yuko ushimira umuntu mu gihe yagukoreye ikintu cyiza, akakungura ubumenyi.

Umumama ndetse n'umwana bagiye kuvoma ku isoko, bafite indobo yo kuvomeramo, umwana agiye kumwoza arasa nabi, ni byiza kugira isuku.

Ahari kubera ubukangurambaga bwo kwirinda indwara ya ebola, ebola ni indwara igira ibimenyetso byo kuruka, gucibwamo, kuva amaraso umubiri wose, ni indwara yica uyirwaye kuko nta rukingo igira.

Umunsi wahariwe kwita ku ndwara zo mu mutwe, ukaba warizihijwe muri na makumyabiri na gatatu, bahuje abaganga, ndetse n'inzobere ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe, baraganira.

Umudamu wambaye ishati y'igitenge ndetse yambaye n'ishapule n'umugaturika. Uyu mudamu acuruza amavuta, amajyane, ibyo guteka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Tariki cumi y'ukwakira ni ukwezi ngarukamwaka kwahariwe indwara zo mu mutwe, indwara zo mu mutwe ni indwara nk'izindi, umuntu ufite iyo ndwara agomba kuvurwa agakira.

Isana mitima ni ikintu gisigaye gikenewe cyane mu gihugu, abantu bafite ibibazo byinshi, abantu barahangayitse, iyo umuntu ufite ibibazo wegera umuntu ukurushaho ubushobozi akakuganiriza, akakumva, ukaruhura umutima.

Itariki ya cumi Ukuboza ku isi hose bizihiza umunsi wahariwe kurwanya indwara zo mu mutwe, indwara zo mu mutwe ni indwara nk'izindi, umuntu ayirwaye ajya kwa muganga bakamufasha.

Umudamu uri kurira afite ibibazo yahangayitse afite ihungabana, ari kuganirizwa n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ibibazo ntibizabura mu buzima, ni byiza yuko umuntu yihangana ubuzima bugakomeza.

Aho abasheshe akanguhe bafite ibibazo byo mu mutwe bahurira bakaganira, bakibukiranya yuko ibibazo bitazahoraho, yuko n'ubuzima bwiza buri imbere bubategereje, bakaganira bahava baruhuye umutwe.

Icyapa kigaragaza indwara zikomoka ku bibazo byo mu mutwe harimo; ihungabana, kwibagirwa, kugira ubwoba, kwanga ibintu byinshi, gushaka kwiyahura, kutamenya uwo uriwe ndetse n'ibindi.

Umugabo wirabura biragaragara yuko ari umunyarwanda afite ibihanga hejuru ndetse no hasi mu menyo, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'akitero k'umuhondo.

Umwana mutoya wiga mu kiburamwaka, ari kurya akabiswi muri bureke cyangwa se mukanya k'akaruhuko hagati mu masomo, abana ni byiza ko bitabwaho bakiri batoya.

Umwana bari kuvura amenyo, umwana bari kumwoza amenyo, muganga aramufashe ari kumurika mu kanwa ke, ari kumusuzuma, yambaye amarinete ndetse n'umwenda w'akazi n'amaga mu...

Umusore wagiye kwivuza indwara y'amenyo, ari gusobanurira muganga ukuntu amenyo amurya. Kwisuzumisha indwara y'amenyo hakiri kare ni byiza kuko bikurinda ko bagukura amenyo.

Umugabo bamaze kuvura amenyo, amenyo ye yarashyize, yari afite ikibazo cy'amenyo atari ku murongo none ubu ngubu ajya mu bantu agaseka mbere byari ingorabahizi.

Umukobwa bagiye gukuramo amenyo bakayashira ku murongo, kubera afite ikibazo cy' impingikirane. Impingikirane ni ibintu bibangama, cyane cyane ku mukobwa, kuko bimubuza guseka ndetse bigatuma abaho yishi...

Umugabo uvuye koga, afite akantu bahanaguza amenyo, akaba ari kwivanamo imyanda mu menyo, imyanda mu menyo niyo ituma amenyo yangirika, akarwara bika ngombwa ko bayakuramo.

Umudamu bari bari kuvura amenyo mu bitaro bya Kabutare, akaba amenyo yiwe ameze neza rwose yarakize, ishinya yiwe yarabyimbutse ndetse arasa n'umweru, rwose ubuvuzi bw'amenyo bwateye imbere.

Kwa muganga aho bavura indwara zitandukanye. Uyu mwana bagiye kumukura iryinyo, biragaragara y'uko ari mu gihe cyo gukurwa, muganga agomba kubyitondera kuko gukura iryinyo nabi byavamo ingaruka zikomeye.

Abana bo muri pirimeri bari kwigishwa ukuntu bakwiriye kuzajya baborosa kugira ngo barinde amenyo yabo uburwayi, bari kwigishwa n'umunyeshuri uvuye muri kaminuza i Butare kwiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Kwa muganga iki akaba ari igitanda bashyiraho umuntu bagiye kumusuzuma amenyo, amenyo ni indwara ibabaza cyane, ni byiza iyo iryinyo rikubangamiye, ugenda bakarikura, bakarivanamo, ugasigara umerewe neza.

Abanyeshuri bari kwiga ukuntu mu kanwa haba hateye, bari kubasobanurira ukuntu iyo umuntu yoza amenyo y'umurwayi atwara imashini, kuvura mu kanwa ni ibintu bigomba kwitonderwa.

Imashini zikoreshwa kwa muganga, zikaba ari imashini bakoresha boza amenyo. Indwara zo mu kanwa ni indwara zibangama cyane, akaba ari indwara ntago zandura ziterwa n'umwanda.

Umusore uryamye ku imashini, bakaba bari kumusobanurira ukuntu bagiye kumusuzuma barebe niba nta covid afite. Aka kantu barakinjiza mu zuru ryiwe, undi barebe nimba nta burwayi bwa covid ya afite.

Ubuvuzi bw'amenyo, ahangaha bari koza mu kanwa umwana ufite ikibazo cy'amenyo kubwo kurya bombo nyinshi bari kumwogereza amenyo, amenyo ni ikintu cyo kwitabwaho kuko iyo warirwaye urababara cyane.

Umugabo w'umwirabura ari kuvurwa n'umuzungu, ari kumwogereza mu menyo, amenyo ni byiza ko yitabwaho ukayakurikirana ukayogesha byibura rimwe mu mezi atatu.

Utwuma dukoreshwa n'abaganga mu gihe bari kuvura, harimo utwo gukata, utwo kudoda, utwo gukora ibintu bigiye bitandukanye, kwa muganga haba hameze nko mu ibagiro baba bafite ibyuma byinshi.

Umusaza ari kwitabwaho n'umukobwa, ari kumuha utunini wo kunywa kugira ngo amwibutse atibagirwa imiti, umuntu ari mu zabukuru aribagirwa cyane, uyu mukobwa arimo kumwibutsa gufata imiti.

Umudamu w'umuganga uri gupima umusaza ngo arebe ko afite umuvuduko w'amaraso, usanzwe cyangwa se niba akeneye gutangira imiti ibi ni ingenzi mu buvuzi.

Bajya bavuga ngo utaganiriye na se ntago amenya icyo sekuru yasize avuze. Noneho aha ngaha ho umwana ari kwiganirira na sekuru, ari kumucira imigani, amwereka ukuntu kera byahoze. Abantu bakuru baba bazi ubwenge cyane. Ni byiza kuganira nabo bakagucisha ku kenge.

Umusaza uteye umwuzukuru we arishimye, kwibyara bitera umugisha rwose bitera n'umunezero, umusaza ku myaka ye mirongo irindwi ateruye umwana wabyawe n'umuhungu we rwose barasa biragaragara.

Umukecuru uri mu zabukuru uri mu myaka mirongo irindwi, arwariye aho bita ku bakecuru ndetse n'abasaza, ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri mutoya, uyu mukobwa biragaraga ko amwitaho cyane kuko barishimye.

Umusaza wambaye ishati y'ikigina, akaba ari gukora imibare akazi kamunanije, yifashe ku mutwe, biragaragara ko yananiwe akeneye akaruhuko.

Umudamu ufite imisatsi miremire myiza, ari kwigisha umusaza ukuntu agomba gukora siporo, ukuboko kugira ngo ukuboko kwe kongere gukore, siporo ni nziza kumyaka yose waba ufite.

Abakecuru babiri bari mu myaka mikuru, bari kumwe bari guteka, bari kwibukirana hamwe imyaka yabo y'ubukumi ukuntu bayibayemo bishimye, bari guteka imboga, imboga ni nziza ku bantu baku...

Umukecuru uri mu myaka mirongo itandatu, akaba ari gukora siporo iwe mu busitani, siporo ntireba imyaka, siporo uko waba ungana kose hari siporo wakora ukarinda umubiri wawe indwara.

Umuforomo, umudamu uri guseka uri kumwe n'umusaza, ari kumwigisha ukuntu yakongera kugenda nyuma y'impanuka yahuye nayo, kumuha agakoni akakagenderaho ni byiza kuvurana akanyamune...

Umusaza wambaye ishati y’umukara n’ipantaro y’ikigina ari kumwe n’umuganga w'umuzungu, ari kumwigisha ukuntu yazajya agenda atagendera ku mbago kuko afite ikibazo cy'imvune.

Umukecuru uri mu za bukuru ari mu bitaro by'abakecuru, akaba afite umuforomo uri kumwitaho, biragaragara y'uko umukecuru atihebye, arishimye kubera ko yitabwaho neza.

Abaganga bifashishijwe mu gihe cya korona virus mu kuyicyaha ndetse no kuyirandura burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Bari bipfutse umubiri wose ku buryo nta hantu bahurira n'amatembabuzi y'uwanduye mu kwirinda.

Inkingo zagiye zitangwa za corona zari zitandukanye, hari uruganda rwitwa Covax nazo rwatanze inkingo muri Afurika, ndetse no mu Rwanda hari abafashe urukingo rwabo.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru twirinde mu ibara ry'umuhondo, indwara y'ubushita bw'inkende inkende zateje icyago cy'ubushita ni byiza ko umuntu yakirinda.

Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi Tedros ndetse na Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Sabe Nsazimana, bari bari kwiga ku kibazo cy'icyorezo Mabogu cyateye mu Rwanda muri bibiri na makumyabiri na kane.

Umuntu uryamye ku gatanda, biragaragara yuko bari kumukorera ubutabazi bw'ibanze, abantu bari ku kumufasha bose bambaye udupfukamunwa, bari kumurebera yuko yahumeka neza, bakamugeza kwa muganga.

Umunsi wahariwe kurwanya indwara ya diyabete, ikaba ari inama yabereye mu nzu izwi cyane nka Kigali konvesheni senta, isanga abantu bari muri iyo nama bunguka ubumenyi.

Ubu ni ubukangurambaga bwo muri bibiri na makumyabiri na kabiri, aho hari hari kwiga uko ikibazo cyo kurandura virusi itera sida mu Rwanda ngo ishire burundu. Ubukangurambaga bwateguwe na leta y'u Rwanda ku bufatanye n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Ibitaro byo kwigisha biherereye mu Karere ka Huye, bizwi cyane nka CHUB, ibi bitaro byoherezwaho indembe ziturutse mu turere twegereye ako karere, ibitaro bikaba bizwiho kuvura indwara zitandukanye mu majyepfo.

Inyubako nziza ya itaje; igeretse kabiri, yubatse mu mujyi wa Kigali, ikaba imeze neza ifitemo ibirahure, ifitemo abaraza keza, ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi ndetse harimo n'ibiro by'amabanki.

Iyi ni farumasi iherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, iyi farumasi ikaba itanga imiti y'uburwayi, amavuta yo kwisiga, korogate, uburoso n'imbago.

Ibitaro biri mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Kacyiru, ibi bitaro birazwi, ni byo bitaro bya mbere bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari ibitaro byitiriwe Umwami Faisal.

Ivuriro riherereye mu Ntara y'Iburengerazuba, iri vuriro hakaba hari aho bita ku bana, muri iri vuriro umurwayi wese ajyayo bakamufasha akivuza byakanga bakamwohereza ku bitaro bikuru.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisali, ibi bitaro bibamo abantu barwaye bagiye batandukanye, harimo n'utugare two kubafasha kujya mu bwogero n'ahandi hatandukanye, igihe batabasha kwigenza.

Icyumba gikorerwamo siporo, siporo ni ingenzi kuko siporo irinda indwara zitandura, harimo diyabete, umutima, impyiko n'imyijima. Ni byiza gukoresha siporo umubiri wawe kugira ngo wirinde indwa...

Aha ni ahakorerwa siporo hazwi cyane mu Mujyi wa Kigali, aha ngaha abantu barahura bagakora siporo ndetse bakanaganira ku bintu bigiye bitandukanye, bakagirana inama.

Imashini yo kwa muganga, aho barebera umuntu ko afite ikibazo cy'amaso, muganga aba yicaye imbere yawe, nawe ukareba mu mashini, akakurebera nimba amaso yawe ari mazima.

Ni ibitaro biherereye mu Karere ka Gasabo mu murenge wa Remera bizwi cyane ku izina Polyclinique de l'Etoile, bagira umuganga kabuhariwe mu ndwara z'uruhu ndetse n'undi wamamaye cyane mu kuvura imitima.

Ibitaro aho umuntu arwarira igihe bamwandikiye ibitaro akaharara, ibitaro ni byiza cyane kuko bita ku muntu akahava yakize, yagiye arwaye arembye...

Ibi ni ibitaro bizwi nka Hospital la Croix du Sud cyangwa se kwa Nyirikwaya, bikaba biherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, ibi bitaro bizwiho cyane kugira abaganga bazi kubyaza ndetse n'abita ku badamu batwite.

Aha ni aho bari bari gutaha ibitaro bya Gahini. Akaba ari inama yitabiriwe n'abayobozi b'ibyo bitaro ndetse n'abaganga bo muri ibyo bitaro, hari n'umuntu uri kubafotora, afata amafoto bazifashisha.

Ibitaro bya Caraes i Ndera, ibi bitaro bikaba bizwiho kuvura indwara zo mu mutwe zitandukanye, aha ngaha hajya abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bakabavura bakahava bakize n'umusazi wo ku muhanda baramuvura agakira.

Umuforomo wambaye impuzankano y'umweru, n'agapfukamunwa, ndetse yambaye n'akandi kagofero k'ubururu n' marinete, akaba ari gufasha umudamu wabyaye umwana ameze neza, umubyeyi yabyaye neza.

Aha ni ahakorerwa siporo ku buryo bw'ikoranabuhanga hazwi nko muri jimu, bakora siporo hari amagare yo kunyonga, aho kwirukanyira, ibyo guterura, siporo ni ingenzi.

Imashini zo kwa muganga aho basuzumira ndetse bakanabaga umurwayi, aha ngaha ni agatanda umurwayi aryamaho muganga akamusuzuma ubundi akamufata ibizami.

Hagaragara inzu inyubako aho ababyeyi babyarira cyangwa se aho baba bari mu gihe bategereje kubyara ndetse no mu gihe bategereje yuko umubyeyi akira mu gihe yabyaye abagwa.

Mu mujyi wa Kigali hari ibitaro byinshi bigiye bikomeye, ni ibitaro bya Nyarugenge bikuru, ibitaro byakira abantu batandukanye bavuye mu duce two mu Karere ka Nyarugenge.

Ibitaro bya Kabgayi biherereye mu karere ka Muhanga, ibi bitaro bikaba bizwiho cyane mu kuvura indwara y'amaso, indwara y'amashaza, barabaga ijisho ukareba neza.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kizwi nka jyimu, iki icyumba hakorerwamo siporo zitandukanye, haba hari ababafasha babereka ukuntu ibi ibyuma bikoreshwa, umuntu akagorora umubiri.

Kwa muganga aho abarwayi barara mu gihe bategereje muganga cyangwa se mu gihe bakeneye kwitabwaho baraye kwa muganga, muganga akomeza gukurikirana uburwayi bwabo.

Abavuzi bambaye imyenda ibahishe umubiri wose kugira ngo bataza kugera aho bahurira bakora ku matembabuzi y'umuntu urwaye korona, muri Korona abavuzi bajyaga kuvura bambaye iyi myenda.

Kwa muganga nagiye ejobundi hari hari isuku koko, narinjiye mbona abantu bose bari bize mbura uwo mbaza, gusa imbere nahasanze umuforomo aramfasha anyereka aho bavurira amenyo njyayo banyitaho.

Iki ni ikigo nderabuzima cya Nyaruyenzi, ikigo nderabuzima ni ahabonerwa ubuvuzi bw'ibanze, iyo umuntu yarwaye cyane bamuhereza taransferi imujyana ku kigo gikuru kimwegereye.

Ibitaro aho bita cyane ku bantu bakuze, ibitaro iyo umuntu yashaje baramujyana haba hari abaforomo bashinzwe kumwitaho, bakamwoza, bakamwambika, bakamuhindurira imyenda, bakamenya buri kimwe cyose.

Ibyumba byo kwa muganga aho basuzumira ndetse n'aho umurwayi arara mu gihe bibaye ngombwa yuko aguma kwa muganga akitabwaho, ibyumba bifite isuku ihagije kuko indwara zandurira no kwa muganga.

Abanyeshuri biga iby'ubuganga, hano bari bari gukora isabune bayivanye mu mavuta, biragaragara yuko amavuta ateretse imbere yabo. Abari na bo bitabiriye aka kazi, uyu mwuga w'ubuganga ntabwo ukiri uw'abagabo gusa.

Ikigo nderabuzima giherereye mu karere ka Nyagatare, kikaba kizwi cyane ku izina ry'ikigo nderabuzima cya Tabagwe, iki kigo nderabuzima kikaba kita ku barwayi batandu...

Mediasol Pharmacy i Remera, iyi akaba ari farumasi y'ikigo cy'igihugu cy'ingabo, ikaba ari farumasi ibamo imiti itandukanye, bakorana n'ubwishingizi bugiye butandukanye.

Ibitaro byitiriwe umwami Faisal, hano haragaragara yuko ari aho binjirira umuntu, aho baparika, umurwayi arinjira agakomeza mo imbere akagenda akajya muri serivisi ashaka kwivurizamo.

Ifoto igaragaza umuntu uri gukora siporo, uyu muntu akaba afite ikibazo cy'imvune mu kuguru, yatewe n'imikino, akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'amavubi.

Umudamu uvuye muri siporo uri kunywa amazi yabize ibyuya, iyo umuntu yatakaje imbaraga muri siporo, biba byiza iyo yongeye kuzigarura agize ibyo afata, harimo amazi n'amafunguro.

Kwicara umunsi wose mu biro ntago ari ibintu byiza, ushobora kugerageza tuno dusiporo mu gihe ukora akazi gasaba kwicara cyane. Wazamura ukuguru, wajyana amaboko imbere, wayajyana inyuma, wamera nk'uwicaye kugira ngo wirinde indwara.

Udukapu bashyiramo ibikoresho bifashisha mu buvuzi bw'ibanze, ibi akaba ari iby'ikigo cyifashisha mu buvuzi bw'ibanze kizwi nka Kuruwaruje, Kuruwaruje yaramamaye mu gihugu.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga mu gihe umuntu yahuye n'imvune, zitandukanye z'ingingo zigiye zitandukanye buri rugingo rufite igikoresho wakoresha.

Umuntu wahuye n'imvune y'umugongo bari kumuvura bakoresheje siporo, biragaragara y'uko akeneye gukora siporo gahoro gahoro kugira ngo umugongo we wongere usubirane.

Muri siporo kugira ngo umuntu atakaze ibiro ndetse agire n'ubuzima bwiza agomba kunywa amazi, akarya imbuto, agaterura ibyuma ndetse akanakomeza yipima ngo arebe y'uko ibiro byagabanyutse.

Kwirirwa wicaye ku mashini ntabwo ari byiza. Mu gihe uri mu kazi ukaba ukora wicaye, ushobora guhaguruka ukarambura amaboko, ukagenda wirukamo gakeya, ugaterura icyuma, ugakina agapira cyangwa se ugakina n'abandi bantu mu itsinda.

Umugabo uri koroherwa akaba ari kumaye akagare yifashisha ngo kagendereho ajye koga kugira ngo yongere agarure imbaraga, arebe ko bamusezera mu bitaro hakiri kare.

Umugabo wambaye utu ekuteri, afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi, yambaye agapira gasa n'ibara ry'ikigina, akaba ari byiza yuko umuntu akora siporo, gusa akibuka no kunywa amazi kuko ari umuti.

Umudamu wambaye agasengeri k'icyatsi uri gukora siporo, afite n'ibituta, ahahagaze ku musozi ahirengereye, siporo ni nziza ku mubiri kuko irinda indwara zitandura.

Umudamu wambaye agakabutura k'ubururu ndetse n'agasengeri k'ubururu n'inkweto z'ubururu, uri gukora siporo, ari gukora siporo zo kurambura amaguru kugira ngo amaguru yiwe akore neza.

Umubyeyi w'umudamu wambaye impeta, bigaragara yuko yubatse, akaba ari gushyira urubura ku kuboko kwe kuko yahuye n'imvune mu kazi, akaba ategereje muganga, ariko akaba ashyizeho urubura kugira ngo harekere aho kumubabaza.

Abagabo babiri bambaye imyenda ya siporo, umwe ari kwereka mugenzi we ukuntu agomba gukora siporo zituma agorora amaguru ndetse n'amaboko, siporo ni ingenzi ku muntu wese.

Umugabo wahuye n'ikibazo cy'imvune mu kuguru bakaba bashushanyijeho amabara y'ubururu ndetse n'iroza, bari kugirango babone ahantu bagomba gusubiza igufa mu murongo wari urimo.

Umuntu wagize ikibazo cy'imvune akaba ari gukorerwa ubugororangingo, hifashishijwe imashini zabigenewe. Akaba ari kugororwa ukuguru ndetse no mu ivi abifashijwemo n'umuganga wabyigiye.

Umugabo uvuye muri siporo, ari kwitera amazi mu maso kugira ngo yongere asubirane imbaraga n'ayandi akayanywa, siporo ni ingenzi kuko irinda indwara zitandukanye.

Ubuvuzi bw'ubugororangingo, uyu muntu akaba yaragize ikibazo mu ivi k'imvune, hakaba hari umuforomo uri kumugororera ukuguru, ngo arebe yuko yakongera agasubirana, agasubira mu kazi ke.

Umugabo wambaye isaha y'icyatsi n'agasengeri k'umukara, afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kunywa amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, waba uri usheshe akanguhe cyangwa se uri umwana cyangwa se umuntu mukuru.

Umugabo waruri gukora siporo ahura n'ikibazo k'imvune mu ivi, bamuhaye urubura ngo abashyizeho bigabanye kumubabaza mu gihe ategereje muganga, imvune yo mu ivi iraryana.

Umusore wambaye kuteri uri kunywa amazi, avuye muri siporo, siporo yabereye muri sitade ya Huye, siporo ni ingenzi, hari gahunda ya Leta ya siporo buri buri kwezi.

Imashini izwi ku izina rya Emaray, ni imashini banyuzamo umuntu ngo barebe nimba nta kibazo yaba afite ku bwonko, iboneka mu bitaro bikomeye harimo ibitaro byitiriwe Umwami Faisal ndetse n'ibitaro by'i Ndera.

Utwuma twifashisha kwa muganga bari gupima abarwayi, harimo utwumva imitima, udusuzuma amaraso niba nta kibazo kirimo, intebe ya muganga ndetse n'ibindi.

Igikoresho cyambarwa n'umuntu wahuye n'imvune mu kuguru, iki gikoresho gikunda kwambarwa n'abakinnyi kuko bahura n'ibibazo cyane bari gukina mu kibuga, mu kibuga ntago haba hizewe.

Amazi ni ingenzi kuko amazi avura indwara zitandukanye, amazi avura impyiko, amazi arinda indwara zitandukanye, amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu kutanywa amazi.

Umwana ari mu kigero k'imyaka cumi n'umunani na cumi n'itandatu, ari kunywa amazi. Siporo ntabwo ikiri iy'abantu bakuru cyangwa se abantu barwaye, siporo ahubwo urayikora kugira ngo wirinde indwara, siporo ni byiza kuyitangira ukiri mu...

Ikigo gishinzwe kwita ku bantu cya Croix Rouge, akaba ari umuryango ufasha imbabare ku isi hose, hano bari kwiga ukuntu bafasha umuntu wahuye n'ibyago, bakorera mu masitade ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi.

Umwana ufite ibibazo by'amaso, bakaba bari kumusuzuma ngo barebe ibibazo byiwe biteye bite. Uyu mwana ari kuvurwa amaso na muganga wabyigiye ubisobanukiwe.

Ubuvuzi gakondo bwaramamaye ku isi hose, ibi akaba ari ibyatsi bikoreshwa babinywa nk'icyayi cyangwa se ukabite ukabinywa umutobe wabyo cyangwa se ukabishyira mu mazi ukayoba.

Korogate z'uruganda rwa Forever, korogate zabo ni korogate nziza cyane, ziranahenda igereranyije n'izisanzwe kuko zigura ibihumbi cumi na bitanu, izi korogate ziba zikozwe mu gikakarubamba ndetse n'imyunyungugu.

Umuganga ufite imiti mu ntoki, hari iri mu icupa, hari mu dushashe, uyu ni muganga ukorera mu bitaro, iyi miti hakaba ari kuyitunganya ngo ayibike ahabugenewe.

Inzu ikorerwamo n'abavuzi ba gakondo bacuruza ubuki, amazi, imiti ikiza inzoka, imiti ikiza amara, imiti ikiza indwara zigiye zitandukanye.

Imiti ikorwa n'uruganda Forever, iyi miti ikaba ifasha mu kongera imitekerereze, ndetse no kuba umuntu afite intumbero, imiti ivura indwara z'ubwonko.

Umuvuzi gakondo arasekura imiti y'iwe kugira ngo ayitegurire abakiriya be, abavuzi gakondo bita ku bantu bafite ibibazo bitandukanye baravura gusa ikibazo cyabo ntago basuzuma imiti yabo yakugirira nabi.

Ibiti bivura indwara zitandukanye amababi yabyo uyateka mu mazi ukanywa ayo mazi yakonje cyangwa se ukisiga ibi ibyatsi kuruhu ugakira inkovu ndetse n'uduheri dutandukanye.

Iyi ni imiti ikoreshwa mu kugabanya ibiro ku muntu ufite ibiro bikabije, ikaba ikoreshwa n'abantu bashaka kunanuka, iboneka muri farumasi n'ahantu bakoresha siporo bose bayibona.

Igiti kizwi ku izina ry'umuravumba, ni igiti kivura indwara zitandukanye, harimo iz'ubuhumekero, ndetse n'iz'uruhu, iki giti gihingwa mu Rwanda aho ariho hose wakibona.

Ahakorera abavuzi gakondo, hari uducupa ndetse n'amavide arimo imiti yabo, imiti y'ibyatsi ni ingenzi kuko ifasha mu gihe uri kwivura indwara zitandukanye.

Imiti yifashishwa n'abarwayi, iyi ni imiti umurwayi anywa ikinini kimwe ku munsi, ni imiti igabanya umuvuduko w'amaraso ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko uri hejuru.

Uruganda rwa Foreva ni uruganda rukora ibintu byinshi bikomoka ku gikakarubamba, bakora amasabune yo koga, amavuta yo kwisiga, amasabune yo koza ibyombo ndetse na korogati.

Ifoto igaragaza korogate zikorwa mu gikakarubamba ndetse n'amasabune akorwa mu gikakarubamba. Igikakarubamba kikaba kizwiho kuvura ishinya ifite uburwayi bwo kubyimba cyangwa se kuryana, ndetse n'indwara z'uruhu.

Ibyatsi bivura indwara zitandukanye. Ibyatsi bivura indwara z'ubuhumekero, indwara z'uruhu, n'izindi ndwara. Ibyatsi ni ibikoreshwa mu buvuzi butandukanye.

Aha ni ahakorera abavuzi ba gakondo. Bakaba bafite imiti yabo iri mu macupa afunzwe neza. Bavura indwara zananiranye harimo, za macinya, ubukene, ibiki byose, indwara zananiranye abavuzi...

Amavuta yo kwisiga mu misatsi atuma imisatsi ikura ikamera neza, akomoka mu byatsi, aya mavuta wayakoresha uri umugabo uri umugore cyangwa se umwana ntakugireho ikibazo kuko aya mavuta akomoka ku bimera.

igikakarubamba kivamo ibintu bitandukanye harimo amavuta amasabune amakorogate n'ibindi byinshi bitandukanye igikakarubamba gikiza indwara z'uruhu indwara zo mu kanwa

Isekuru isa mu ibara ry'umukara hari ibyatsi ku ruhande, isekuru bakaba ariyo abavuzi gakondo bakoresha bari gutegura imiti yabo. Imiti gakondo iravura ndetse no kurusha imiti yo muri farumasi.

Imiti izwi ku izina rya Forceval Soluble, ni imiti yongera amaraso ku muntu utwite cyangwa se ku muntu wese wagize ikibazo cy'amaraso ni amamitivitamine arimo vitamine nyinshi.

Ibiti by'umuravumba bivura indwara z'inkorora, ibicurane, ndetse banabikoresha mu koza uruhu rufite ibibazo byo gukanyara cyangwa se inkono.

Imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura ibintu bitandukanye harimo ibumba, igisura, umubirizi ndetse n'umuravumba, iyi miti ivura indwara zitandukanye imiti irakora.

Isabune yo koga mu mutwe ikoze mu gikakarubamba, igikakarubamba wacyoga, wakiboroshesha, wakinywa, kivura indwara zigiye zitandukanye, kikaba cyaramamaye ku isi hose.